Akabari ni ahantu bubaka ndetse bagateganya n'akazu bita akabingaro， ahantu abakiriya bakunda kwicara bari kuhaganirira， bari kuhasomera n'agacupa，kugira ngo ibiganiro byabo birusheho kuryoha，kandi barusheho no gusabana, ku bw’aho hantu baba bicaye.

Akabari ka kijyambere, kaba gafite amabingaro abakiriya bicaramo, ndetse kaba gafite n'ubusitani abantu bicaramo bakumva amahumbezi. Mu kabari ka kijyambere, haba harimo amazu yubakanwe ubuhanga, ndetse kuhicara ubona ari ibintu bishimishije cyane.

Akabari ni ahantu abantu bahurira bagasabana cyane cyangwa bashaka kwivura amavunane, abashaka kuruhuka imvune, bahurira mu kabari bagasoma agacupa kandi bakahaganirira ibiganiro byabo bikaba byiza cyane.

Akabari ni ahantu abantu benshi bahurira bari kuganira, ndetse bari kuhafatira n'agacupa, n'amafunguro atandukanye. Akabari gatuma umuntu aruhuka mu mutwe, kandi n'umubiri we ugashiramo amavunane, akajya kuryama yaruhutse neza.

Mu kabari ni ahantu haba abakozi. Abakozi bo mu kabari ni abasirimu, baba basirimutse cyane ku buryo ndetse n'isuku yabo yatuma babona abakiriya bashaka kunywera aho hantu ku isuku baba bari kubona abakozi bahakorera.

Akabari ni ahantu abantu bajya kuganirira bari gusoma n'agacupa, ku kabare barahashyikiranira, usanga mbese abantu basabanye kubera agacupa, utubari dukunda kuba ahantu mu mamakaritsiye atandukanye.

Akabare n'ahantu abantu bajya kuruhukira, bajya kuhafatira agacupa ndetse ukaya no kuhaganirira n'inshuti zawe, mbese ko kabari n'ahantu hamara ubute, hamara imvune zo mu mutwe cyane cyane nko ku abantu baba biriwe mu kazi baraharuhukira maze bakajya mu rugo bameze neza.

Mu kabari habamo inzoga z'ubwoko butandukanye, usanga akenshi bari kuzinywesha ibirahure, usanga inzoga iyo bayisutse mu kirahure iba iteye ipfa, ku buryo umuntu wese ukanywa ahita agira inyota.

Za bare zigira intebe nyinshi cyane, abakiriya baza bakazicaraho iyo bategereje ko icyo batumijeho kirabageraho, barabanza bakicara bagategereza ko barabibageza.

Amaresitora aba ar'amazu afite amarido, kugira ngo ayomarido akingirize abantu baje kuyariramo, kuko akenshi no mu muco w'akinyarwanda, abantu ntabwo barya barangaje bari ku karubanda, ahubwo barira ahantu hiyubashye.

Amabutiki abamo ibicuruzwa byinshi bitandukanye. Usanga harimo imigati, usanga harimo amaji, usanga harimo ibintu byinshi cyane. Kandi aba amanitseho ibishushanyo bigaragaza ibicuruzwa bigaragara.

Botike zicuruza ibinyobwa bitandukanye, habamo fanta, habamo amaji gatandukanye, ndetse habamo n'amavuta yo kwisiga, ay'abana, ay'bantu bakuze, ibintu byose ubisanga mu mabutike.

Amabutike ni amazu aba ku mihanda, kandi amabutike y'uyu munsi bari kuyubaka bya kijyambere cyane cyane iyo imbere bashyizeho amapave. Amapave atuma amabutike ajya agaragara neza ndetse ku buryo bw'iterambere, mbese ukabona ibintu byabaye ibya kijyambere neza.

Amazu y'ubucuruzi ni amazu aba ku muhanda ,aba mu mugi, aba no mu cyaro ,akunda kuba cyane cyane ku dusantere aho abantu benshi bateranira bari kuganira, bakunda kuyakoreraho ibijyanye n'amatelefoni, ibijyanye n'amateleviziyo, mbese ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga bikunda gukorerwa mu mazu y'ubucuruzi, ariyo twita za butike.

Kenkayori bazicururizamo ibikoresho by'ubwubatsi, ndetse bagurisha n'ibigega bifata amazi ku mazu manini bubatse ajyanye n'igihe, usanga akenshi ibigega bikundwa ku bigo by'amashuri, bakunda kubigura, kugira ngo abana babikoreshe, mu gihe robine zitari kutanga amazi meza.

Amagi aterwa n'inkoko, kandi amagi atanga amafaranga ku borozi b'inkoko. Amagi arinda indwara ku bantu bayagira kuko umwana wariye amagi aba yariye ibirinda indwara.

Alimantasiyo ni ahantu bacururiza ibiribwa, bahacururiza ibinyobwa, amoko y'inzoga ayo ari yo yose muri alimantasiyo abamo, ndetse n'ibiribwa abantu bakenera byose bibarizwa muri alimantasiyo. Alimantasiyo irunguka cyane ku bantu bafite ubushobozi bwo kuyicuruza.

Amaduka acuruza imyenda, habamo abantu benshi, kandi usanga harimo n'imyenda myinshi y'ubwoko butandukanye, habamo amakanzu, amapantaro, ndetse habamo n'imipira, habamo n'inkweto ,ibicuruzwa byose mu maduka bacuruza imyenda, bijyanye no kwambara bibamo.

Amaduka ni amazu bubaka kugira ngo abafashe kwiteza imbere, kandi n'abantu baje bashaka gukora bayakoreremo, cyane cyane mu bijyanye n'ubucuruzi, cyane cyane mu bijyanye no kwiteza imbere ku bya sarodokuwafire, abogoshi bararayakodesha, mbese usanga amaduka ari ibintu bikenewe cyane.

Amaduka aranguza ibiribwa cyangwa se ibinyobwa bidasembuye. Haba harimo amapaki menshi cyane ku buryo buri wese uje kurangura yirobanuzamo icyo ashaka kugura.

Karitsiye matewusi ni ahantu bajya kurangurira ibicuruzwa, kuko ni ahantu haba ibicuruzwa by'ingeri zose, abacuruzi bo mu ntara bajya kurangurira muri matewusi, ndetse n'ab'i Kigali nyirizina barangurira muri matewusi.

Amabara ni amazu batekeramo, yakira abantu ndetse usanga abantu bari kujya kuyaruhukiramo. Bari kuhafatira icyo kunywa ndetse n'icyo kurya. Usanga ari ahantu hari uruhurirane rw'abantu benshi baje kuharuhukira.

Amaduka n'amazu aba k'umuhanda yakunda kubakwa cyanee cyane ahantu hategamye hameze neza, hataririmo umusozi kugira ngo abantu bajye kuharuhukira kandi bajye kuyahahiraho.

Inzoga ni ikinyobwa kigirira umubiri akamaro cyane cyane zikunda gukoreshwa mu birori mu makwe, no mu zindi selemoni nyinshi abantu bakunda kwifashisha inzoga akenshi ubukwe butagira inzoga ntabwo buryoha, ni ikinyobwa kiryoshya ubukwe cyane.

Amangazini ni ahantu haba ihuriro ry'abantu benshi, ari abaje guhaha ,ari abaje kudoda no kudodesha ,abo bose bahurira ahantu bita ku mangazini. Ndetse habaho n'ibikorwa byo kubaza, habaho n'ibikorwa byo gusudira, ibikorwa byo kudoda, habaho ibikorwa byinshi cyane abantu bahurura baje kuhakorera.

Inyubako zijyanye n'igihe ubona ari inzu zigerekeranije, nziza, ziboneye ijisho, wazireba ukagirango ahari ni ho mu ijuru bavuze. Zijya zigira ibiro byinshi bikorerwamo imirimo runaka, haba hariho amafarumasi, haba hariho ibiro runaka by'imishinga, mbese ubona aribiro bidasobanutse cyane.

Amaduka ya kijyambere, aba yubatse ku buryo buteye imbere. Akenshi bayubaka agerekeranye, ku buryo azakorerwamo n’abantu benshi. Bamwe bakajya hasi, abandi bakajya hejuru y’abandi. Usanga bakira abantu benshi, kandi bakabona amafaranga atubutse.

Mu ma botike habamo ibintu byinshi by'ibicuruzwa. Usanga harimo imyenda, usanga harimo ibiribwa, usanga haririmo ndetse n'amazu afatanye amwe arimo amaresitora, ayandi arimo imyenda, ayandi arimo ibyokurya .Mbese ibicuruzwa bitandukanye bibarizwa mu maduka.

Amazu y'ubucuruzi ni amazu akenerwa cyane abantu benshi barayakenera kuko bifuza gukoreramo ubucuruzi bwabo, ayo mazu akenerwa cyane mu mugi akenerwa cyane mu karitsiye ahantu hose hakenerwa amazu y'ubucuruzi.

Inzu z'ubucuruzi, ni inzu bubaka ku buryo bwa kijyambere ndetse bazubakaahantu nko mu masatere, kugira ngo abantu bakeneye kubyaza ibikorwa byabo umusaruro bayakodeshe, kuko aya mazu arakenerwa cyane ku buryo bufatika.

Botique ni amazu y'ubucuruzi akunda kuba ku mihanda, akunda kuba mu dusantere, mu makaritsyie, yose yose akunda kugira amabotique, kuko n'amazu abantu bifashisha bari guhahiramo ibyo bakeneye, cyane cyane ibibwa, nk'amasabune n'ibindi byinshi cyane abantu bakenera.

Amaduka n'amazu y'ubucuruzi abantu bacururururizamo. Abihangira imirimo baraza bagashaka amazu yo gucururizamo, nibwo maduka wasanga kandi abantu benshi barabuze akazi bakagashakira mu mazu nko gucururizamo. Ugasanga ubuzima bwabo bugenze neza imibereho ibaye myiza cyane.

Inyubako zijyanye n'igihe ziba ari ngombwa kuzishyiraho amapave ndetse imbere y'inkingi z'yo mazu, iyo ariho usanga ari ibintu bigaragara neza ku buryo inyubako zifite amapave ziba zifite isuku.

Amapave bayasasa ahantu hubatse inzu ifatika kandi ijyanye ry iyo bagashashe usanga imbuga ntavumbi rihaba. Umucucu cyangwa se umukungugu usanga utandukanye na byo cyane iyo washoboye gusasa amapave imbere ku mbuga yawe.

Amabutike ni amazu aba yubatse atondekanyije kandi buri nzu yose igira umucuruzi uyicururizamo. Ntabwo inzu ya butike ijya ibura abantu. Ntabwo ibura abantu bo kuyikoreramo, kuko ni amazu aba akenewe cyane.

Inzu badoderamo ni inzu zibamo ibyarahani, zibamo amapasi, cyane ko imyenda iyo bamaze kuyidoda bayitera ipasi, maze nyir'umwenda yaza kuwufata agasanga koko ari umwenda mwiza kandi unogeye ijisho.

Amaduka ni amazu acuruza akenshi ibiribwa bitandukanye haba harimo n'amalimantasiyo, Mu malimantasiyo habamo amakarito y'amata, amakarito y'amaji, usanga harimo ibicuruzwa byinshi bitandukanye ndetse n'ibinyobwa byo kunywa by'ingeri zose.

Agoroteke ni ahantu bagurira imiti yica udukoko, bahagurira imiti yo gutera mu imyaka kugira ngo udukoko dupfe. Yica ndetse n'ibiryanyi cyangwa imperi ziba mu mazu y'abantu, yica udukoko twinshi cyane.

Mu iduka habamo ibicuruzwa byose by'amoko yose. Habamo imyuko, habamo amavuta yo kwisiga, habagamo ibikombe byo kunyweramo, habagamo ibintu byinshi abantu bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Amaduka n'ahantu abantu bakunda kujya kwicyara, akenshi baricyara bari kuhaganirira kugirango ngo bahimarire ubute. Ndetse n'abananiwe bakajya kuharuhukira kugira ngo bube burira. N'ahantu hakenerwa ibikoresho byose abantu bifashisha murugo.

Supamaketi ya Rukara icuruza ibicuruzwa byinshi bitandukanye. Acuruza ibinyobwa, birimo amalikeli akundwa cyane mu makwe, acuruza amapiza, acuruza ama alimantasiyo arimo ibiribwa cyane bigezweho bijyanye n'igihe.

Amaduka ni amazu y'ubucuruzi akundwa n'abantu benshi, cyane cyane ko baba bashaka gukoreramo ibikorwa bya bo by'ubucuruzi. Akunda kuba yubatse ku muhanda, ndetse agakunda no kuba mu dusantere, kugira ngo abashaka kubyaza ibikorwa byabo umusaruro bayakodeshe.

Mu maduka ya kijyambere acuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga. Usanga harimo amatelefoni, habamo imashini, ndetse habamo n'ibindi bikoresho byinshi by'ikoranabuhanga, kandi usanga ariho ibyapa bigaragaza icyo bakora.

Iduka ni ahantu bacururiza ibintu by'ingeri zose: bacururizamo ibyokurya, bacururizamo imiti, bacururizagamo ibintu byinshi bitandukanye wasanga harimo nk'imiti yo gutera mu myaka, usanga harimo ibintu byose. Amaduka ni ingirakamaro kuko tuyifashish mu mibereho yacu ya buri bunsi.

Butike n'ahantu bacururiza ibiribwa cyangwa se ibikoresho by'ingeri zose : habaho amakarito y'amasabune, habaho imifuka y'imyunyu, habaho ibintu byose abantu bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Saro dekwafire ni inzu bakoreramo imisatsi barayogosha, barayidefiriza, barayisokoza, ndetse bakoreramo n'inzara. Ugasanga abagore n'abagabo bashaka gusa neza, bari kugana ayo ma Saro dekwafire.

Amaduka ni amazu akorerwamo ubucuruzi aba ku mihanda cyangwa se agakunda kuba mu ma karitsiye, ariko nabwo ahantu hegereye imihanda kuko afasha abantu baturiye muri utwo turere guhaha bitabagoye ngo bakore ingendo cyane.

Iduka ni amazu y'ubucuruzi bacururizamo ibintu bitandukanye by'ingeri zose. Bacururizamo amasabune y'amafu ari bita ama omo, bacururizamo imyenda. Hari imyenda y'abagore ndetse n'iy'abagabo, acururizamo ibicuruzwa byinshi abantu bakenera mu mibereho yabo ya buri munsi.

Amabutiki ni amazu akorerwamo ibintu byinshi bitandukanye. Amwe abamo amaresitora, ayandi bakayakoreramo ubucuruzi butandukanye, ndetse ayandi bakayacururizamo za mobayilo mani. Usanga amabutiki akora ibintu byinshi bitandukanye.

Amaduka acuruza ibikoresho by'amamodoka, usanga afite ibikoresho byinshi bitandukanye, amapine atuma imodoka zigenda neza, ku buryo n'iyatobotse, bahita baza kugura indi yo kuyisimbura.

Mu isoko turahahahira ,tuhagurira ibyo kwambara, tuhagurira ,ibyo kurya, tuhagurira byose dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi ,mu isoko habamo akazi kenshi ,abakarani bakoreramo akazi ko kugira ngo batunge ingo zabo .Isoko ni ingenzi ku buzima bw'abantu.

Urusengero ni ahantu abantu basengera, kandi barahazindukira bakahicara, bakahumvira ijambo ry'imana, ndetse abenshi barahahindukirira, bagahindukira bakubaha Imana kandi bakayizera, kubw'ijambo ry'Imana baba bumvise mu rusengero.

Abarokore ni abantu bakunda gusengera mu rusengero bateze udutambaro. Kandi ubona ari abantu bakeye cyane mu rusengero. Ubona koko bafite icyo bashishikariye, ubonaga ari abantu batuje mu rusengero. Iyaba no mu mitima ariko biba bimeze.

Banki ya kigali, ni banki ikorera ahantu hose, ari mu turere ndetse no mu ntara, ndetse no mu mijyi, ahantu hose banki ya kigali irahakorera, cyane cyane ko abaturage bizigama naho babitsamo amafaranga yabo.

Banke ni ahantu abaturage babonera serivisi zo kubitsa amafaranga yabo bakizigamira ,bigatuma badapfusha ubusa amafaranga yabo, kuko aba afite umutekano wuzuye iyo ari muri banki.

Inyubako za kijyambere ni inyubako zubakanwa ubuhanga. Kandi ziba zigerekeranije ugashaka ukuntu bagiye bazubaka ukabona n'ubuhanga bukomeye cyane. Akenshi zikorerwamo amabiro y'abakozi batandukanye , ndetse n'abigenga bose barahakorera.

Hoteri ni amazu ya kijyambere yakiraga abantu bahatembereye, yakira abantu baje mu mahugurwa, yakira ndetse n'abaje mu manama. Hari amahoteri agira n'ibyumba binini bakoreragamo amanama. Agacumbikira abantu. Amahoteri ni ingirakamaro cyane mu gihugu.

Amahoteli ni amazu bakiriramo abantu b'ingeri zitandukanye. Akenshi usanga yubatse hariho ubusitani, hariho imitako, usanga ndetse no ku miryango yayo hateretseho amavase y'indabyo akurura abakiriya ndetse n'abaza gucumbika mu amahoteli.

Hotel muhabura ni hotel iri mu mujyi wa musanze, mumuhanda werekeza iyawunde uri kugana i rubavu, iyi hotel yakira abazungu ndetse n'abandi bantu b'ingeri nyinshi, ariko cyane cyane abazungu bakunda iyi hotel cyane.

Amazu y'akabari usanga ari amazu yubatse ku buryo bwa kijyambere, ndetse haba harimo n'ubusitani bateramo n'ibisheke, haba hariho ibyapa bijyanye n'amayoga aba muri ako kabari. Mbese usanga harimo utuntu twinshi two gukurura abakiriya.

Akabari ni ahantu abantu bajya kuruhukira bakahafatira n'agacupa ndetse bibaruhura no mu bwonko, cyane cyane nk'abantu baba bagize umunaniro wo mu mutwe baragenda bakicara ahantu ku kabari bakaganira na bagenzi babo bakahafatira agacupa maze bakaruhuka mu mutwe.

Ku isoko ni ahantu hahurira abantu benshi baje guhaha. Buri wese abaje guhaha ibyo akeneye, habamo ibicuruzwa byinshi bitandukanye habamo imyenda habamo amasakoshi abacuruza mobile money, ni abantu bifuza amafaranga mbese ibyo ukeneye byose mu isoko biba bihari.

Isoko rya kijyambere n'inzu bubaka bakazubakana ubuhanga buhanitse cyane, cyane cyane nk'ibisenge byayomazu bibaga ari ibyuma hasi, ugasanga naho bagiye baragashyiraho inkingi z'iibyumaga asanga bari kuyakora, hasi ari amapave ndetse bagashiramo n'amakaro, usangaga ari amazu ayjanye n'igihe kandi koko.

Inyubako za kijyambere ni inzu ziba zubatse ku buryo bw'ikoranabuhanga, ziba zigeretse kenshi na kenshi bazubakisha amabeto. Ni inzu zigezweho rero kuko usanga igihugu gifite izo nyubako ari igihugu kiri gutera imbere mu majyambere.

Mu isoko ni ahantu duhahira ibikoresho byose dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ari ibyo gutekamo, ari ibyo kuriraho, ari ibyo gukoresha nk'ibyuma byo guhatisha ibyo byose tubihahira mu isoko. Nta kintu na kimwe tutagura mu isoko, ndetse n'ibiribwa tubigura mu isoko.

Muri Goyiko habamo ibicuruzwa byinshi, kandi buri boroke igira ibicuruzwa byayo. Hariho aho bacururiza amamatela, hari aho bacururiza imyenda, hari aho bacururiza bodaboda. Mbese usanga harimo ibyiciro byinshi by'ahantu bacururiza buri gicuruzwa.

Isoko ry'ibiribwa， ni isoko ribamo ibintu byose， ibiribwa ibyo ari byo byose ubishakiramo. Habamo imboga，habamo imbuto， habamo ibirayi n'ibitoki， habamo inyama，habamo amafi，mbese ikintu cyose ushaka mu isoko ry'ibiribwa， ukibonamo. Ni byiza rero， ni ingenzi kuko isoko ry'ibiribwa ribamo ibintu byose.

Ikidomoro ni igikoresho cyifashishwa cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi, tukivomesha amazi tukivomesha ku migezi ya kure n'iya hafi ,ndetse n'iwacu mu ngo tugiterekamo amazi ,tukijyanamo inzoga dusuye inshuti zacu n'abavandimwe, mbese ikidomoro gifite akamaro kanini mu muryango nyarwanda.

Isoko ni ahantu bacururiza ibiribwa ibyo ari byo byose bahacururiza imyenda, bahacururiza ibyokurya, bahacururiza ibyo gukoresha, ibikoresho byo mu rugo ibyo mu kazi mu isoko ibyo bikoresho byose birahaba.

Mu isoko ry'imbuto habamo imbuto nyinshi zitandukanye habamo inanasi, habamo amacunga, ndetse hirya yabyo habamo n'ubundi bucuruzi bwinshi nk' ubw'imyenda, habamo ibintu byinshi bitandukanye cyane.

Isoko ribamo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, habamo imyaka, habamo imyenda, akenshi isoko ry'ibiribwa riba ririmo ibiribwa gusa nk'amajeri, ibishyimbo, ibirayi n'ibindi byinshi bitandukanye ndetse n'imbuto zibamo.

Mu mabutike habamo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, cyane cyane habamo nk'amaji y'abana, habamo imyunyu, habamo n'ibindi byinshi bitandukanye, ndetse n'ibinyobwa bibamo kugira ngo abantu babikeneye, baze babibone hafi ya bo.

Imbuto ni ingirakamaro mu buzima bw'abantu cyane cyane ko umwana iyo imimbuto akura neza. Ndetse imbuto zirinda umwana ubuhumyi , n'abantu bakuru bakenera imbuto kuko imbuto zituma uruhu rw'umuntu rudasaza vuba.

Icyarahani bakidodesha imyenda myinshi, ari iy'abagabo, ari myenda y'abagore, icyarahani kidoda imyenda y'abana, kikadoda imyenda y'abanyeshuri, kidoda ingeri z'ibintu byinshi, kidoga ndetse n'iyi mifuka duhahisha, iyi mifuka duhahiramo na yo idodwa n'icyarahani. Icyarahani rero ni ingirakamaro cyane.

M isoko ni ahantu hahurira abantu benshi batandukanye, buri wese aba aje guhaha ibyo akeneye ku ruhande rwe, bahaha ibiribwa, bahaha imyenda, bahaha n'ibikoresho byabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Amaduka abamo ibicuruzwa byinshi bitandukanye; habamo amasafuriya yo gutekamo, amabase yo gukarabiramo, ndetse habamo n’amasahani yo kuriramo, amasorori yo kwaruriramo, amarushe yo kwaruza. Ibintu byose bitandukanye dukenera mu rugo bibarizwa mu maduka.

Ku isoko ni ahantu hacururizwa ibintu byose. Amasabune arahaba, ndetse amasabune y'ubwoko butandukanye. Haba amasabune yitwa omo, habaho amasabune yo gukarabaga intoki, gukarabisha mu ntoki, habaho indagara, bacuruzaho ibintu byinshi by'uburyo bwinshi butandukanye.

Mu maduka habamo ibicuruzwa, cyane cyane ibijyanye n'ibyo kurya, habamo imyunyu, habamo amasositomate, yo gukarangisha, ndetse habamo, na za mayonese, za venegere bakoresha amasalade, habamo ibice ibigo byinshi bitandukanye.

Mu isoko, habamo imodoka ipakira ibihingwa cyangwa se ibicuruzwa by’abantu. Usanga abahinzi bejeje ibihingwa, bapakiza imodoka kugira ngo babibajyanire mu isoko. Kandi usanga mu isoko, haparitsemo imodoka z’ubwoko butandukanye, zaje gupakira imyaka y’abaturage cyangwa se iyizanye.

Isoko ni ahantu hahurira abantu benshi cyane, habamo ndetse n'ibicuruzwa byinshi abantu baba bari gucuruza, habamo ibikoresho dukoresha iwacu mu ngo, habamo ibiribwa turya iwacu mu ngo, habamo byinshi dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Mu isoko habamo abantu benshi, ndetse n'ibicuruzwa byinshi, habamo n'amamodoka, habamo amazu menshi, kandi abo bantu bayakoreramo ibijyanye n'ubucuruzi, usanga mu isoko ateye imbere cyane mu bintu byo'ubucuruzi.

Amaduka acururizwamo ibikoresho bitandukanye : habamo amasafuriya ,habamo imbabura , habamo amabase , indobo n'ibindi bikoresho byose dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi bijanye n'igikoni.

Isoko ribamo ibintu byinshi cyane bahaha, cyane cyane nk'ibiribwa, imyambaro, ibyo byose tubisanga mu masoko, ari ayo mu cyaro, ari ayo mu mujyi, ayo yose ibyo dukeneye tubisangamo, niyo mpamvu isoko ari ingirakamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Inyamunyo ni igihingwa cy'igitoki gihingwa akenshi n'abantu bashaka kwiteza imbere ndetse no kurya. Usanga ari igihingwa cyera neza cyane kuko iyo gifite ubutaka bwiza cyeramo igitoki kinini cyane cy'indaterurwa wakijyanana ku isoko ugataha wikoreye inoti nyinshi.

Ibitoki n'ibihingwa byera ahantu henshi mu mpande z'igihugu. Byera ari ibyo kwengamo inzoga, cyangwa se ari ibyo kurya nk'inyamunyu. Bakunda kubipakira mu mamodoka yabugenewe nk'amarongeshashi, akabijyana mu bice byose by'Igihugu. Usanga ku mwero wabyo abantu bari ku bicuruza cyane, ari cyo kiribwa kiri kuribwa cyane.

Amasoko habamo inyanya ,habamo karoti ,ibitunguru, n'intoryi, habamo imboga ,habamo abantu b'ingeri zose:habamo abaje kwiba n'abaje guhaha ,mu isoko habamo amatungo ,habamo ibintu byose, kandi byose biba bifite umumaro kuko byose birakenerwa.